Umurima urimo ibihingwa by'amoko atandukanye, harimo umuntu uri guteramo umuti yifashishije icyuma cyabugenewe. Ibi birinda ibihingwa kutangizwa n'udukoko bityo bigatanga umusaruro munini cyane.

Umurima urimo ibihingwa, harimo umuntu uhetse ipombo yifashishwa mu kuhira imyaka. Ibi bifasha imyaka gukura neza no mu gihe k'izuba kandi bikazirinda kwangirizwa n'ubukoko butandukanye.

Umuntu uhetse ipombo y'umuti, arigutera umuti mu myaka. Ibi bifasha imyaka kutangizwa n'ubusimba ndetse n'ubukoko bitandukanye. Bigatuma ikura neza.

Umurima urimo ibihingwa, hafi y'umurima hari akazu gatoya, ndetse harimo abantu, umwe muri bo ahetse icyuma cyifashishwa mu kuhira imyaka, ibi bifasha imyaka gukura neza, ndetse bikayirinda udukoko.

Umurima urimo ibihingwa mu murima kandi harimo abantu babiri bafite ibikoresho byabugenewe, bakoresha buhira. Ibi bituma imyaka igura neza ndetse igatanga n'umusaruro mwinshi.

Icyuzi cyororerwamo amafi, hari umuntu ufite igikoresho kirimo ibiryo by'amafi ari kuyagaburira, ibi bituma amafi yororoka vuba kandi mu gihe gito.

Icyuzi cyororerwamo amafi, aya mafi adufasha kwifashisha mu buzima bwacu busanzwe, kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'imirire mibi, muri icyo cyuzi harimo abantu bambaye impuzankano.

Ibyuzi byoroherwamo amafi. Hirya yabyo hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye, hari kandi n'inzu zabugenewe bororeramo amatungo atandukanye, hirya yaho hari ishyamba ry'ibiti byinshi bitandukanye.

Icyuzi cyororerwamo amafi ndetse habamo n'ibindi binyabuzima byinshi bitandukanye biba mu mazi, hafi y'icyo cyuzi hari umurima urimo imyaka itandukanye, iki cyuzi kandi kidufasha kuzamura umusaruro w'ubukungu bwacyo mu mafi.

Ibyuzi byororerwamo amafi, hirya y'ibyo byuzi hari ibiti bigiye bifite amoko atandukanye kandi hafi yabyo hicayeho umuntu, ibi byuzi bidufasha kongera umusaruro w'amafi mu gihugu cyacu.

Icyuzi cyororerwamo amafi, ibi bidufasha kubona amafi menshi mu buryo bwihuse kubera ko yororokeramo ari menshi ndetse bigatuma umusaruro w'amafi mu gihugu cyacu wiyongera.

Ibyuzi byororerwamo amafi, hafi y'ibyo byuzi hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye, hirya kandi y'iyo mirima hari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye.

Ibyuzi byubatswe bororeramo amafi, hirya hari ishyamba ry'ibiti, harimo n'utundi tuyira tujya aho ibyo byuzi biri, hirya y'aho hari iri ishyamba.

Inzuzi zikorerwamo ubworozi bw'amafi, hari abantu bahagaze kuri ibyo byuzi kandi hari ugaragara ko ari gushyira ibyo kurya cyangwa se umuti muri ibyo byuzi, hafi y'ibyo byuzi hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye.

Icyuzi kiri hagati y'ibyatsi hari abantu babiri bahagaze hafi y'icyo cyuzi, iki cyuzi hororekamo inyamaswa nyinshi ziba mu mazi zitandunye nk'amafi ubwoko bwinshi.

Umugabo ufite ifi nini cyane ari kuyishyira ku munzani ngo arebe ibiro ipima, hari amazi yakuyemo iyo fi, ahinzemo insina.

Umurima urimo ikawa, zimwe ziratukuye ariko izindi ntabwo ziratukura, ikawa idufasha mu guteza imbere Igihugu cyacu mu buryo bw'ubukungu, iyo zigurishijwe amafaranga ndetse n'iyo zijyanywe mu bihugu by'abanyamahanga.

Abagore bambaye impuza impuzankano y'amajire y'umutuku, bafashe ikawa mu biganza byabo bari, ku murima uhinzwe mu ikawa.

Umuntu ari mu murima ari gusarura icyayi, afite agatebo inyuma mu mugongo, akajya asarura icyayi agishyira muri ako gatebo.

Umurima uhinzemo ikawa, ikawa idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse iteza imbere igihugu cyacu mu buryo bw'ubukungu mu kwinjiza amafaranga.

Umurima munini uhinzemo icyayi. Hahagazemo umuntu ariko yerekana icyayi, hirya y'uwo muririma hari ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye, icyayi gifasha igihugu cyacu kuzamura ubukungu.

Igishanga kinini kirimo ibihingwa bitandukanye hirya y'icyo gishanga hari ishyamba naryo rinini ririmo ibiti by'amoko atandukanye kandi muri iryo shyamba haragaragaramo inyubako.

Umurima urimo ibihingwa, ibi bihingwa byifashishwa mu kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu mu buryo bw'amafaranga, ibi bigatuma gitera imbere.

Umurima uhinzemo ikawa, muri uwo murima harimo abantu bafite ikawa. Hirya kandi hahinzemo ibindi bihingwa bitandukanye nk'insina, hari n'inzu yubatse hirya yaho.

Umumama wambaye umupira w'umukara mu mutwe yiteze igitambaro ari gusarura ikawa, hepfo ye gato haragaragara ko hahinze urutoki.

Umurima munini uhinzemo icyayi harimo abantu bari gusarura iki cyayi kandi kidufasha mu kongera ubukungu bw'igihugu cyacu mu buryo bw'amafaranga hirya y'uyu murima kandi hari n'ibiti.

Inzu irimo imiti itandukanye y'inyamaswa, iyi miti irinda inyamaswa kuba yakwicwa n'indwara cyangwa se yafatwa n'indwara bityo yongera kororoka kwazo mu gihe gito.

Amakarito menshi atandukanye, aya makarito arasa n'aho harimo imiti y'amatungo, iyi miti ifasha amatungo kugira ubuzima bwiza ndetse ikayarinda no kuba zarwara indwara zitandukanye.

Ahantu hari imiti myinshi itandukanye y'inyamanswa, iyi miti ifasha amatungo gukira indwara akaba yakororoka ndetse agatanga n'umusaruro mwinshi kubayorora.

Umurima urimo abantu harimo uwambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'uwambaye imyenda ya polisi. Muri uyu muririma harimo ibiti by'amako atandukanye kandi abo bantu bambaye iyo myenda ya gisirikare ndetse n'iya polisi bari gutera ingemwe.

Umurima uhinzemo ibihingwa, hahagaze umumama ufite isuka, asa n'aho ari kubikorera kugira ngo bibashe gukura neza.

Abantu bari mu murima, uyu murima urimo ibiti ndetse n'ibyatsi, harimo umuntu usa n'aho ari gutera ingemwe.

Umugabo ufite ingemwe y'igiti asa naho agiye kuyitera, aho hantu agiye kuyitera, hameze nk'aho ari ku gasozi ariko hepfo yaho, ni ikibaya.

Abantu bari kugenda mu nzira bikoreye ibihingwa bitandukanye, muri iyo nzira bari kunyuramo kandi hari umurima uhinzemo ibigori, inyuma y'uwo murima hari ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Umuntu ari gushyira itaka ku gihingwa, ibi bifasha igihingwa gukura neza kandi gifite ubukomere bikirinda kwangizwa n'umuyaga.

Inzu y'ubworozi bw'inka hari umugabo urimo urazigaburira hari n'abandi bantu bahari, hirya y'iyo nzu hari umurima uhinzemo urutoki, ndetse n'indi myaka itandukanye.

Umuririma uhinzemo ibigori, muri uyumurima harimo umumama arasa n'aho ari kurandura ibyatsi. Hirya y'umurima hari ibiti bitandukanye kandi kurandura ibyatsi mu myaka biyifasha gukura neza.

Abantu bahagaze, bakikijwe n'ibiti, bari guhabwa ingemwe z'ibiti. Hagaragara ko hari umuntu wambaye imyenda ya daso y'u Rwanda.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu kariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, agapfukamunwa k'ubururu afite ingemwe y'igiti, ahantu ahagaze hari izindi ngemwe nyinshi zubakiye, zisakariwe kugira ngo ziticwa n'izuba.

Ikibaya kirimo imirima itandukanye, mu iyo mirima harimo ibibwa bitandukanye, harimo icyuma bashyiramo insinga kugira ngo bakwirakwize amashanyarazi mu nshe zitandukanye.

Ikibaya kirimo imirima, iyi mirima irimo ibihingwa bitandukanye, hirya y'uwo murima kandi hari amashyamba arimo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umurima urimo amadegede, aya madegede adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi.

Umurima munini urimo abantu bunamyemo, hirya y'uwo murima hari ishyamba ry'ibiti by'amoko atandukanye kandi harimo n'inyamaswa.

Ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa bitandukanye, harimo imbuto, harimo ibigori ndetse n'ibirayi ndetse n'ibindi byo kunywa, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kurwanya imirire mibi ndetse no kudufasha kubaho neza.

Ubwoko bw'imboga butandukanye harimo: inyanya, imboga rwatsi, ibitunguru ndetse n'imiteja.

Umurima urimo igihingwa, kiri mu bwoko bw'imboga rwatsi, kirasa nkaho cyononwe n'udusimba. Iki gihingwa kandi kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kurwanya imirire mibi, ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Imirima irimo ibihingwa by'amoko atandukanye, harimo amateke ndetse n'ibindi, hirya y'uwo muririma hari ibiti byinshi kandi ibi bihingwa bihinze muri uyu murima bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umurima uteyemo amadegede ndetse harimo n'utwatsi tugiye tuba muri aya madegede, ayo madegede adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi mu kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse no gutuma abantu bagira ubuzima buzira umuze.

Mu murima harimo umwumba uhinze, hirya hagaragara amazu amwe ari mu gipangu, andi ntabwo ari mu gipangu, hagaragara ko hari abaturage batuyemo.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye. Harimo n'inyubako, hino y'iryo shyamba hari umurima uteyemo urutoki. Hirya yaryo hari amazu menshi ndetse n'imirima.

Imisozi irimo amashyamba, imwe muri iyo misozi harimo inyubako ariko indi misozi nta nyubako ziririmo, hari imirima myinshi kandi iri muri iyo misozi ihinzemo ibihingwa bitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi by'amoko atandukanye muri iri shyamba habamo inyamaswa zitandukanye, harimo ibyatsi bifashisha abakoresha umuti w'ubuvuzi gakondo.

Ishyamba harimo ibiti byinshi bitandukanye, mo hagati harimo akazu, ku ruhande rw'ishyamba harimo hari ikiyaga cy'amazi.

Ishyamba harimo ibiti bike bikuru ariko harimo n'ibindi bihingwa bitandukanye, biracyari bito, ntabwo birakura.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi by'amoko atandukanye, iri shyamba rifite akamaro kanini ku Gihugu cyacu mu kongera ubukungu, mu kwakira ba mukerarugendo ndetse n'ibindi bitandukanye by'iterambere.

Ishyamba rimo amoko y'ibiti atandukanye, ndetse harimo n'ibyatsi byinshi bitandukanye, hirya ya rino ishyamba kandi hagaragaramo inyubako zitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, iri shyamba kandi habamo n'inyamaswa z'ubwoko butandukanye rifasha igihugu cyacu kuzamura ubukungu mu gukurura ba mukerarugendo ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bikorerwamo nko gushakamo imiti.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, harimo kandi n'umuhanda, mu mpande yo kuri uwo muhanda hari ubusitani buhinzemo indabo.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi by'amoko atandukanye ,muri iri shyamba habamo inyamaswa z'ubwoko butandukanye ,ikindi ni uko iri shyamba rifitiye akamaro igihugu cyacu ,kuko habamo ibikorwa byinshi bitandukanye by'iterambere nko gukurura ba mukerarugendo.

Mu murima urimo indabo z'amoko atandukanye. Harimo umumama wambaye umupira w'icyatsi ndetse yiteze n'igitambararo cy'umukara. Izi ndabyo zifasha igihugu gutera imbere muburyo bwinshi butandukanye, kuko zinjiza amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa. Ibi bihingwa bihinzemo bihinze mu buryo bwa kijyambere, harimo kandi n'abantu bambaye imyenda y'ubururu, ndetse barasa naho bari gusarura.

Umurima uhinzwemo inyanya zimwe zamaze gutukura zireze izindi ntago ziratukura mo hagati harimo akayira hepfo yaho hari ahandi hahinzwe ibindi bihingwa ariko byo biracyari bito ntabwo birakura.

Abantu bari gusarura imbuto, imbuto zeze, n'amape, haragara n'kawa...

Umurima harimo ibihingwa, ni igihingwa kimwe bihinze ku murongo biraringaniye hirya hari inzu, hari n'indi mirima itandukanye.

Ahantu hari imbuto, umuntu ufashe inanasi, hino hari izindi mbuto ndetse zifasha abantu mu mibereho yabo, kukurinda indwara, ni nziza mu buzima bwacu.

Ururabo ruri ahantu rw'icyatsi rufite hejuru amababi y'umutuku ahandi rufite imbuto urubuto rusa icyatsi.

Umurima urimo indabo z'amoko atandukanye, izi ndabo zidufasha kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu mu buryo bw'amafaranga kubera ko zirasarurwa zikajya gucuruzwa hanze, izindi zigacuruzwa mu gihugu cyacu.

Umurima urimo ibiti by'imbuto. Izi mbuto zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, zidufasha kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse zikanadufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umurima urimo ibihingwa biri mu bwoko bw'imboga, harimo umuntu uri kuhira yifashishije igikoresho cyabugenewe, hirya y'umurima kandi hari n'indi mirima irimo ibihingwa by'amoko atandukanye.

Umurima urimo imyaka itandukanye insina n'indi myaka, hari umunyu uhagaze arimo arashyiramo amazi muri iyo myaka, ibi bifasha imyaka gukura neza ni mu gihe k'izuba,

Umurima urimo ibihingwa ndetse harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe byifashishwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba, ibi bifasha imyaka gukura neza kandi bigakura neza no mu gihe cy'izuba.

Umurima urimo ibihingwa, harimo ibikoresho bifashisha bashyira amazi mu murima, hirya y'uwo murima hari ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Imirima irimo ibihingwa, harimo ibikoresho byabugenewe bifashisha bagira ngo buhire imyaka mu gihe k'izuba, ibi bifasha imyaka gukura neza, hirya y'umurima kandi hari n'amashyamba arimo ibiti bigiye bitandukanye.

Umurima uhinze kandi kuri uwo murima hahagaze umuntu urimo arashyira amazi muri uwo murima, akoresheje igikoresho cyabugenewe. Hirya y'uwo murima kandi hahinze urutoki rwinshi.

Umuntu ari gusuka amazi ku gihingwa, akoresheje igikoresho cyabugenewe, ibi bituma igihingwa gikura neza mu gihe cy'izuba ntabwo cyuma, gihora gitoshye kigakura gifite ubuzima.

Abantu babiri umugore n'umugabo bari gushyira amazi mu bihingwa bakoresheje ibihombo byifashishwa kugira ngo bashyire amazi mu bihingwa.

Umurima urimo ibihingwa by'amoko atandukanye. Muri uyu murima kandi hahagazemo umuntu uri kuhira yifashishije igikoresho cyabugenewe. Ibi bifasha ibihingwa gukura neza no mu gihe cy'impeshyi.

Umurima urimo ibihingwa. Harimo abantu, umwe muri bo afite igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kuhira imyaka. Ibi bifasha imyaka gukura neza no mu gihe k'izuba.

Umurima urimo ibihingwa, muri uyu murima harimo umuntu ufashe igikoresho bifashisha mu kuhira imyaka, arimo aruhira kandi hirya y'uyu murima, hari indi mirima irimo ibihingwa.

Imisozi myinshi, harimo amatarasi, harimo n'ibiti, hamwe hubatsemo amazu ahandi nta mazu arimo, harimo utuyira twinshi.

Umurima urimo ibihingwa byinshi by'amoko atandukanye, harimo nk'ibiti ndetse n'urutoki, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kurwanya imirire mibi ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Imisozi irimo ibiti ndetse n'ibihingwa by'amoko atandukanye, iyi misozi idufitiye akamaro mu gukurura ba mukerarugendo bityo bigateza imbere igihugu cyacu.

Imisozi irimo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibihingwa by'amoko atandukanye hagati y'iyi misozi harimo ikibaya kirimo imirima ndetse harimo n'inyubako zitandukanye.

Imisozi myinshi itandukanye, harimo ibihingwa by'amoko atandukanye kandi harimo n'ibiti by'amoko atandukanye, munsi y'iyo misozi kandi harimo ibibaya na byo birimo ibihingwa.

Imisozi myinshi harimo ibiti muri iyo misozi, ndetse hagati y'iyo misozi harimo ikiyaga, muri icyo kiyaga harimo uturwa dutoya.

Udusozi twinshi dutandukanye harimo amashyamba, hari hamwe hari amazu ahandi nta mazu arimo, hino gatoya hari ahantu hahinze hakikijwe n'ibiti bashyizeho nk'uruzitiro.

Inzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko harimo inkoko nyinshi, ibi bifasha izi nkoko kororoka vuba ndetse byihuse kandi zigatanga umusaruro munini.

Ahantu, bororera amatungo magufi, hari udushwi twinshi hari umuntu, uhagazemo ari kureba uko utwo dushwi tumeze, yambaye imyenda y'umweru, n'inkweto z'umweru.

Inzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko, harimo inkoko nyinshi, ndetse hahagazemo abagabo babiri, ibi birerekana ko kororera hamwe inkoko, bituma umusaruro wiyongera ndetse kandi vuba.

Ikiraro cyubatswe kirimo inka, buri nka ifite ahantu inyuza umutwe, iyo iri kurisha ibyo bayihaye.

Inyambo nyinshi ziri ahantu zubakiwe hafi y'aho hari ikibuga kirimo ibyatsi kandi hahagaze abaganga b'izo nyambo birasa naho bari kuzisuzuma.

Inzu y'ubworozi bw'inkoko ndetse harimo n'ibikoresho byabuhariwe, bifashisha bagaburira izi nkoko ibi bizifasha kororoka vuba mu gihe gito, kandi bikazirinda kurwara indwara nyinshi zigenda zitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko zororererewe ahantu hari ibyo bifashisha bazigaburira, izi nkoko zitera amagi bityo tuyifashisha mu buzima bwa buri munsi, aturinda kwandura indwara zitandukanye ziterwa n'imirire mibi.

Inzu ikorerwamo ubworozi, iyi nzu yubatswe mu bwoko bw'ikoranabuhanga. Harimo inka zirimo kurisha ubwatsi, iyi nzu kandi yubakishijwe ibyuma bikomeye ndetse isakaje n'amabati akomeye, kuri iyo nzu hari umuhanda w'igitaka ndetse hahagaze n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Ubworozi bw'inkwavu aho zubakiwe hari n'ibikoresho bakoresha bazigaburira, ibi kuzororera hamwe bituma zikura vuba ndetse zikororoka mu gihe gito.

Inka nyinshi ziri mu bwoko bw'inyambo, aha hantu ziri hahagaze abantu bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umwe wambaye itaburiya y'umweru, birasa naho bari kuzitera urukingo.

Ubworozi bw'inkoko ziri ahantu hari ibyatsi ndetse hirya y'ahantu ziri, hari n'imirima irimo ibihingwa bitandukanye kandi harimo n'ibiti.

Inzu y'ubworozi bw'inkoko, harimo inkoko nyinshi cyane ndetse harimo n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kugaburira izi nkoko, ibi bituma inkoko ziba nyinshi cyane zikororoka mu gihe cya vuba kandi byihuse.

Inkoko, ziri ahantu zororerwa. Harimo n'ibyokurya byazo. Ibi bizifasha kororoka vuba, kandi mu gihe gito.

Ahantu amatungo magufi yororerwa harimo inkoko n'imishwi yazo n'andi matungo atandukanye, harimo n'ibikoresho bakoresha bari kugaburira amatungo.

Ubworozi bw'inkoko z'ubwoko butandukanye, aha kandi harimo ibikoresho byabugenewe bifashisha, bagaburira izi nkoko, ibi bizifasha kororoka vuba ndetse zikororoka mu gihe gito.

iIgemwe ziri ahantu habugenewe muri izi ngemwe hahagazemo umuntu arasa naho ari ku zisuzuma hirya yazo kandi, hari izindi ngemwe zo zirakuze ndetse hari n'ikigega cy'amazi.

Amoko menshi y'imbuto atandukanye harimo: ibishyimbo, amashaza, ikawa ndetse n'izindi zitandukanye, izi mbutso zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kongerare agaciro k'ibiribwa mu mubiri wacu.

Imbuto nyinshi zitandukanye harimo: ibishyimbo, amashaza ndetse n'izindi mbuto. Izi mbuto zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kurwanya imirire mibi ndetse n'akandi kamaro zidufitiye mu buzima.

Umuntu uri mu cyumba kirimo imiti itandukanye. Uwo muntu yambaye itaburiya y'umweru. Iyi miti ifasha amatungo atandukanye gukira indwara vuba byihuse ndetse ikazirinda no kurwaragurika.

Abavuzi b'amatungo bahagaze ku kiraro cyororerwamo amatungo, hirya yabo hari ishyamba ririmo ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu yambaye na bote z'umweru afite agacupa mu ntoki ndetse afite n'akandi gakoresho bifashisha mu gushyiramo imiti y'amatungo itandukanye.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye aha inyamaswa ziri haparitse imodoka ndetse hari n'ibiti by'amoko atandukanye birasa nk'aho izi modoka zirimo abantu baje gusura izi nyamaswa.

Inyamanswa iba mu ishyamba iryamye munsi y'ingwe, inyamanswa ifite akamaro kenshi ku gihugu cy'u Rwanda yinjiza amafaranga menshi.

Ubwoko bw'inyamaswa buba mu ishyamba, inyamaswa ifite amabara menshi atandukanye, ifitiye akamaro igihugu cyacu, aho ikurura ba mukerarugendo, baza kuzisura, bagasiga amafaranga.

Inyamaswa ziba mu mashyamba, aha hantu ziba kandi hari imodoka isa n'aho irimo abantu baje kuzisura kandi iri shyamba ririmo ibiti bitandukanye, hirya yaryo ikiharagaragara ko hari ikirunga.

Inyamaswa ziba mu ishyamba. Aha ziri hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse hari uruzitiro bifashisha kugira ngo bazirinde gusohoka aho ziva.

Inyamaswa iba mu ishyamba izwi ku izina ry'ingwe, iyi nyamaswa igira ubukana ndetse ni imwe mu zigira amabara menshi kandi itinywa n'abantu benshi.